Iyi ni ibase irimo ibihingwa, irimo ibitaka bahinzemo ibihingwa runaka, ni ukuvuga ngo iri ni ishu, ihinzemo na karoti.

Amasaka asa neza yasaruwe mu gihe cyanyacyo yeze neza, aya masaka ni igihingwa ubundi cyera kijya kumera nk'ikigori ariko cyo biratandukanye ku cyo kerera hejuru. gikubiyemo intungamubiri nyinshi zifasha ikiremwamuntu kubaho.

Umurima mugari uri gutunganywa n'abahinzi babyigiye babihuguriwe, kugira ngo umurima uzabashe kwakira ibihingwa, bibashe gukura neza, mu buryo bwa kijyambere.

Uyu ni umurima munini, uhinzemo imboga rwatsi. Izo twita dodo, izi zikaba ari dodo zitukura, nazo zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi kandi zifasha umubiri.